Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bambaye imyenda y'impuzankano bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, bari kumwe n'umugabo w'umuzungu wambaye ikositimu y'umukara, ishati ndetse na karuvati, akaba yambaye n'amadarubindi.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, yambaye ikanzu idoze mu gitenge, yicaranye n'umuganga w'umugabo, aho yambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'akuma bifashisha bari gupima umutima utera neza yagashyize ku rutugu.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye ipantaro y'umukara agasengeri k'umukara n'umweru karimo n'utubara tw'umutuku, akaba afite imisatsi ya menshi. Iruhande rwe hari ivase riteyemo indabyo zisa icyatsi.